Abantu batatu aho uwicaye ari guterwa urushinge bigaragara ko rwamababaje cyane aho akaba ari kwitabwaho n'abandi babiri bahagaze umuhagaze inyuma n'umuhagaze ibumoso uhagaze ibumoso akaba ariwe uri kumutera urushinge.

Icyumba cyicayemo abantu batandukanye, abagabo n'abagore. Hakaba hari abicaye ariko hakaba ari n'undi uhagaze, wambaye imyenda y'umuhondo. Hakaba hari n'ibikoresho bigiye bitandukanye nk'intebe, utubati.

Abaturage baje ku ivomero cyangwa kuvoma amazi bafite amabido agiye atandukanye bakaba bahagaze ibumoso bw'ivomero n'amabito ari imbere y'ivomero n'undi umwe uhagaze mu ivomero aho bari kuvomera.

Abantu babiri bari mu cyumba umwe yazamuye umupira, undi akaba yambaye ga afashe n'urushinge ari gutera mu kuboko. ku uwazamuye umupira, cyangwa atara ku rutugu rw'iwe.

Icyumba cy'abarwayi b'amenyo, hakaba hicayemo umuganga ufasha aba barwayi b'amenyo ndetse n'ibikoresho byose bikenerwa mu kwita ku barwayi baba bakiriye.

Umugabo ukuze uri mu bwogero cyangwa se mu cyumba cy'isuku, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye n'isabune, uburoso bw'amenyo n'umuti w'amenyo na robine, bikaba bigaragara yuko nawe ari kwita ku isuku ye y'umubiri.

Ababyeyi babiri bari kumwe ukuze n'ukiri muto, aho ukiri muto ari gufasha ukoze kugorora ingingo bari mu nzu.

Ari gusobanura ingaruka z'ibidukikije ku buzima bw'abaturage akaba ahagazea afite n'igitabo ari gusoma.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako, abandi bicaye iruhande rw'inyubako n'abandi bicaye mubaraza rw'iyo nyubako, hakaba hari n'ikigega akaba hari n'umwana uri munsi y'icyo kigega, hakaba hari n'icyapa kigaragaza imikorere y'ibibera muri iyo nyubako.

Inyubako ndende kandi ngari, imbere y'iyo nyubako hari abantu benshi bambaye imipira isa, harimo urujya n'uruza rw'abantu, imbere yabo mu mbuga hakaba harimo imodoka no hanze hakaba harimo imodoka, hakaba hari n'icyapa cyerekana yuko ari umunsi mukuru wahariwe kwita ku bana, ku buzima bw'ababyeyi n'abana.

Inyubako yita ku babyeyi batwite n'ababyara, mu rubanza rw'inyubako hakaba hari kugendamo umugabo wambaye nk'umuganga.

Abantu babiri bari mu muhanda bicaye ku igare, bafite n'indobo, aho iteretse mu muhanda, iruhande rwabo rw'iburyo n'icyapa cyerekana ikigo nderabuzima cya Gisenyi, n'inyubako y'ikigo nderabuzima mu kuboko kw'iburyo.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, ibikinisho bigiye bitandukanye byita ku bana bakiri batoya kugira ngo hazamurwe ubumenyi bwabo, ikaba ifite n'isuku ihagije cyane.

Ibikoresho bitandukanye; bipima ibintu bigiye bitandukanye; biri mu nyubako, aho tubonamo amakibe se cyangwa amacupa arimo ibintu by'amazi, tukabonamo mayikorosikopi, ipima utunyabuzima duto dutoya, bigaragara ko ari ibikoresho byo muri laburatwari.

Ivuriro ryigenga ryita ku barwayi, aho hari abagabo barihagaze imbere batatu, hakaba hari n'undi uri kuza uba muri iryo vuriro; hakaba n'icyapa cyerekana imikorere y'iryo vuriro n'imodoka ebyiri ziri imbere y'iryo vuriro.

Ni ikigo gishinzwe kanseri mu Rwanda, hakaba hari n'ubusitani n'umuyobozi uri gutambuka kuri iyi nyubako ishinzwe ibijyanye na kanseri mu Rwanda.

Abagabo babiri bakuze bicaranye aho uwicaye imbere y'ameza ari gupima imiterere y'umutima k'umwicaye imbere aho bari hakaba hari icyapa cyanditseho irembo.

Imbuto n'imboga by'amoko atandukanye harimo kokombure, hakabamo amaronji, hakabamo pome z'ubururu na pome zitukura, hakabamo n'imineke, bikaba biri mu kuboko kw'ibumoso, hakaba hari n'ibikoresho bindi by'ibyuma mu kuboko kw'iburyo bikaba biteganye.

Umusore wicaye mu muhanda inyuma ye hari indabyo akaba ari kugorora amaguru akoresheje aboko ye abiri, afata ibiganza akabikandisha mu bunyejana bw'ikirenge akandi kaguru gahiniye mu ivi ry'akaguru arambuye ari gukanda.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri akaba ari mu kibuga gikorwarwamo imyitozo ngororamubiri, amaboko yose cyangwa amaboko yombi akaba afashe mu ivi aho apfukamye mu kibuga.

Umusore wicaye mu muhanda cyangwa muruhande rw'inzira, uri kwikanda ikirenge cy'imoso cyagize ikibazo cyangwa se gifite ikibazo cy'imvune, akaboko kamwe gafashe mu kirenge akandi gafashe mu mfundiko z'ikirenge arikugorora akaba yambaye n'isaha.

Umusore wicaye, uri mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwe hakaba hahagaze uri kumufasha, amwerekera uko batoza umubiri, aho bakaba bari mu cyumba, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Ikarito y'icyatsi iririmo ibintu bitandukanye, cyangwa se ibogisi y'icyatsi n'ibintu bitandukanye, amavuta imikasi, utwoma impapuro z'isuku, imiti, amasabune byose bikaba bifatwa nk'ibikoresho by'isuku, ndetse n'ibikoresho byo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Amacupa abiri y'amavuta atandukanye, n'amafoto y'abantu batatu batandukanye, yerekanwa icyo aya mavuta akora nyuma y'uyakoresheje n'uko mbere y'uyakoresheje yabaga ameze.

Ni igihingwa cy'icyatsi kibisi gifite amababi maremare n'udushami aho bigaragara ko gikikijwe n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye, ariko byo bikaba bidatoshye cyane nk'uko cyo gitoshye.

Icyapa kigaragaza ibicuruzwa bigiye bitandukanye amavuta yo kwita ku ruhu cyangwa ku mubiri agiye atandukanye kandi y'amoko atandukanye ari no mu macupa atandukanye no mu bifungo bitandukanye.

Aba bantu baje gusura umurima irimo karubamba n'ibindi biti bigiye bitandukanye ariko nabo ubwabo bakaba bambaye ibintu bitandukanyeba harimo bambaye imipira isa hakaba harimo babiri muri bo bambaye itandukanye n'ibyabo, harimo uwambaye costime ipantaro y'umukara ikote hakabamo n'undi wambaye ishati y'igitenge n'ipantaro ya kaki.

Ibihingwa bitandukanye bihinze ahantu hamwe bimwe bikaba bihinzwe mu tudobo cyangwa mu mabumba yifashishwa mu guhinga ibihingwa cyangwa mu gutera ibihingwa ibindi bikaba biteye mu butaka bikaba bisa neza.

Igihingwa gifite amababi y'icyatsi kibisi n'amashami ay'icyatsi kibisi yazamutse neza kikaba kiri kumwe n'ibindi bihingwa bitandukanye ,aho cyamereye ndetse no hasi yacyo hakaba hari ibindi bihingwa bidafite amababi ameze nkayiki gihingwa cy'icyatsi kibisi cyane.

Icyatsi cy'umuravumba cyangwa ikimera cy'umurabumba cy'icyatsi kibisi cyangwa umuti w'umuravumba wakuze kandi ukaba usa neza.

Isoko riciriritse ricuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye, harimo imboga n'imbutomo n'ibyo kwambara, rikaba rigabanyijemo ibyiciro bagendeye ku ngombajwi nka aba sa da i fa ga ha na ja.